Mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa byayo ni Airtel kugira ngo ibashe guhangana na MTN bisaba ko igenda ishyiriramo abakiriya bayo inyoroshyo. Ahangaha barakubwira ngo akira icya cumi.

Mu muhanda ukozwe n'amapave ari mu buryo bw'utuziga iruhande rwayo hari akazu MTN kanditseho ijambo momo na momotima, aha ngaha hatangirwa serivisi z'amafaranga ndetse n'izindi zitandukanye.

Umugore wambaye umwenda wa MTN ari mu umutaka wa MTN wanditseho MoMo, kanda akayenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego hanyuma ukurikize amabwiriza uhabwe serivisi wifuza.

Akazu k'amategura gashaje cyane bigaragara ko ari ko mu cyaro, gusa ukabamo yari yandayanze azana Airtel iwe mu rugo kugira ngo yorohereze abatuye muri iki cyaro cya herera abandi.

Mu rwego rwo kugira ngo MTN babashe kuyiganza Airtel yashyizeho uburyo bushya bwo kugira ngo ubashe kubona uko wavugana n'abawe ukoresheje amayinite yabo bitewe n'uko MTN yabatanze isoko mbere.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe isa n'iyitabiriye inama, yambaye imipira igaragaza ko bari mu mahugurwa isa n'ubururu; harimo abagabo, abagore yaba abakuze ndetse n'abakiri bato, harimo kandi inzego zishinzwe umutekano nk'urwego rwa daso.

Umurenge sako ni kimwe mu byafashije abaturage kwiteza imbere kuko bahabona inguzanyo mu buryo bworoshye. Aha ngaha hashobora kujyayo amakoperative ndetse n'amashyirahamwe yibumbiye hamwe.

Amashyirahamwe n'amakoperative akora ibijyanye n'ubuhinzi by'umwihariko igihingwa cy'ibigori, usanga rimwe na rimwe ataka ubuke bw'amasoko kugera ubwo umusaruro wabo wangirikira mu bwanwanikiro kandi nta yandi mahitamo bafite.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe biragaragara ko ari abantu bishyize hamwe bagakora koperative cyangwa se ikimina cyo kubitsa no kugurizanya, umuyobozi wabo ari kubabwira uko inyungu bamaze kwizigamira ihagaze kugera magingo aya muri banki.

Mu Rwanda amakoperative n'amashyirahamwe bimaze gutera imbere kubera ko byishyira hamwe bikajya kwaka inguzanyo muri banki, bigakorera hamwe ibikorwa bigiye bitandukanye, rimwe na rimwe usanga ayo makoperative ashobora no gutanga ingwate zisumba ay'ibigo bikomeye cyane.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda RCA, gishishikariza abanyamuryango b'amakoperative bose ko niba hari koperative barimo, bagomba kugira ubuyobozi kandi burambye bujyana n'amategeko.

Amakoperative afitanye imikoranire ya hafi n'amabanki y'aborozi ndetse n'abahinzi bitewe n'uko uyu mugore yambaye itaburiya y'icyatsi, akaba afite inkoko mu mafaranga yakuye muri banki nk'inguzanyo, akaba agenda yishyura make make.

Aha ngaha haragaragara imodoka ikorana na ba nyir'amabanki, ku rwego rwaho ushobora gukura amafaranga yawe kuri banki ukayashyira kuri momo, wajya kubikuza ntibikugore usiragira ukabyikorera kuri telefone, muri gahunda ya biva momotima.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe biragaragara ko ari koperative yo mu mujyi ikora ibijyanye n'ubucuruzi, aba ngaba buri wa gatatu iyo basoje akazi ku mugoroba bahurira hamwe bagatanga umusanzu kuri buri munyamuryango.

Imikoranire y'amashyirahamwe ndetse n'amakoperative n'uburyo babana na banki, ntabwo ushobora kujya gufata inguzanyo muri banki witwaje izina rya koperative cyangwa se ishyirahamwe kugira ngo ubikoreshe mu nyungu zawe.

Amakoperative n'amashyirahamwe usanga kuri ubu ngubu atakibarwa nk'ibintu biciriritse kubera ko ashobora kujya muri banki agahabwa inguzanyo, akagura ibikorwa byabo akiteza imbere, buri munyamuryango akabasha kugira uko yiyubaka.

Mu kabari karimo intebe za mpa irindi harimo abagabo babiri, umugabo umwe yicaye hejuru cyane, undi yicaye hasi amaguru arimo ararereta birasa n'aho wagiran go ni nzovu.

Amabare n'amaresitora, usanga uretse inyubako zigeretse aba afite, aba anafite amajalide meza ku buryo abifite banafite ubushobozi bashobora gusohokamo imiryango yabo bakanezererwa mu bihe by'ibiruhuko.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe zimeze nk'izo mu kabari n'utumeza two mu kabari, zizwi ku izina rya mpa irindi, biragaragara ko ari ahantu heza cyane ushobora kuba wasohokana umuryango wawe, mwaba mufata ibisembuye cyangwa ibidasembuye.

Mu tubari amabare ndetse n'amahoteli usanga harimo intebe babatije imirindi, n'intebe ziba ari ndende ziteretse ku ma kotwari aho umunwi aba yicaye yitegeye inzoga.

Umugabo uri mu iduka ari gucuruza ibintu binyuranye by'umwihariko hagaragaramo amashikareti, amabombo, imyenda y'imbere ndetse n'amasabune, yambaye akajire kanditseho royiko.

Umugore ufite umusatsi muke afite mu maso hagari amaso ye arererurutse cyane biragaragara ko wagira ngo ntabwo ajya atokorwarwa, ikindi kandi inyuma ye hari ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'amadobo arimo isabune ndetse n'amashikarete.

Umugore uri muri botike icuruza ibintu bitandukanye, birimo kawunga, umuceri, ifarini, amavuta ndetse n'isabune, ari kubara amafaranga bitewe n'uko amasaha yakuze abakiriya bakaba batakiri benshi.

Botike icuruza imyambaro ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kuribwa iruhande rwayo hari igare ryaje ribyikoreye, hirya gato kandi hari imifuka y'umweru ndetse n'umukara.

Aha ngaha biragaragara ko ari botike icuruza ibintu bitandukanye, yaba ibikoresho by'ubwubatsi, ubuhinzi ndetse n'ubukorikori. Iruhande rwabyo kandi hari gazi zo gucanwaho na zo zigurishwa kuri make make.

Amakaramu asaga icumi amenshi muri yo yiganjemo ay'ubururu, atatu niyo asa naho yihariye bitewe nuko abiri muri yo afite ibifuniko by'icyatsi, imwe ikagira igifuniko cy'umutuku, indi ikagira igifuniko cy'ubururu bw'ikirere.

Butike mberabyombi irimo umuceri, akawunga, amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye, iriho kandi umugore waje guhaha kubera ubwiza bwabyo yabuze aho ahera n'aho yareka.

Botike icuruza ibicuruzwa bitandukanye, hano haragaragara inyanya ndetse n'isabune yo mu bwoko bw'ifu iba ifunze mu gashashi ka garama mirongo itatu, kari mu mabara y'umuhondo n'ubururu.

Umugore uhagaze muri botike iruhande rwe hari umufuka wa kawunga uri mu ibara ry'umweru hakaba n'umufuka w'umuceri uri mu ibara ry'umuhondo, ahagaze iruhande rw'intebe yicaraho yegamiye iyo nta bakiriya afite ari kuruhuka, hagaragara kandi ahari ibinyama byinshi.

Inyubako nini cyane ubona ko nubwo itageretse ishobora kuba ari urusengero rusengerwamo n'amadini n'amatorero, ibi ngibi rero biragaragara ko bubahirije gahunda yo gukora parikingi kugira ngo batazafungirwa.

Abapadiri ndetse n'abamasera bahuriye hamwe mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umunsi wa Bikira Maliya. Aba ngaba barimo abihayimana b'abafurere, ndetse n'abadiyakoni.

Icyapa kiriho ikirango kigaragaza urusengero rwa New Life Bible Church. Gihagazeho, umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inkweto z'igitare, ndetse na karuvati idoze mu gitenge, afite umusatsi muke ndetse ari guseka.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe imbere yayo hari korali iri kuririmba mu rusengero, aba bakorali usanga kenshi na kenshi bitewe no gukurikira imbuga nkoranyambaga banaririmba mu Cyongereza.

Inyubako bigaragara ko ari urusengero cyangwa se kiliziya bitewe n'uko hejuru ku gasongero kayo hariho umusaraba, iruhande rwayo hari abantu benshi cyane bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso nk'abavuye mu misa cyangwa se mu yandi materaniro.

Umugabo usa n'ukuze cyane ufite ibara ry'uruhu rwera, yambaye marinete afite umusatsi watangiye gushiraho gake gake bigaragara ko biri gusatira uruhara byahereye mu misoso, aragaragara nk'uwihaye Imana bitewe n'ikanzu yambaye.

Inyubako imeze nk'ikorerwamo ibikorwa rusange yanditseho amagambo y'Icyongereza, avuga ngo mbere na nyuma uramutse uyashyize mu Kinyarwanda, hariho kandi ko amezi ari ukwa kabiri ndetse n'ukwa cumi n'abiri.

Icyumba kigari cyane cyateguwe neza kirimo n'ameza magari, iruhande rw'ayo meza hari intebe zegamirwa ziri mu ibara ry'umutuku, kuri ayo meza hateretse amacupa y'amazi yo mu bwoko bwa Nile.

Inyubako igeretse inshuro ebyiri, biragaragara ko ari hoteli ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Aha ngaha uretse kuba wajyayo bakaguha amafunguro, ubaye utari na bugufi wabahamagara bakayakugereza iwawe.

Inyubako ndende igeretse inshuro esheshatu iragaragara mu ibara rya kake, isakaje amabati y'igitare ifite ibirahuri bibonerana, ikanagira kandi inkingi zituma inkubi y'umuyaga ije ntacyo ishobora kuba.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe, bigaragara ko bari muri hoteli nyuma yo gusoza inama bari barimo, yigaga ku bijyanye no guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya Corona virus, bagiye kwiyakira.

Inyubako igeretse inshuro zirenze eshatu yubatse neza. Ifite urupangu ruriho abarinzi, bahagaze imbere y'izo ndabo ndetse n'imodoka iparitse iruhande rwayo. Iyi nzu uyitegereje neza ubona atari inzu isanzwe ahubwo ari hoteli.

Inyubako ndende igeretse gatandatu, biragaragara ko ari hoteri ifite amabati y'umutuku akoze mu buryo tegura, iruhande rwayo hari jaride y'icyatsi kibisi ndetse hari n'amapave asa n'ubururu.

Inzu igeretse gatatu, biragaragara ko ari inyubako ngari ishobora gukorerwamo ibikorwa bitandukanye. Iyo witegereje neza ubona icyapa cyanditseho ko ari hoteli, yakira abantu b'ingeri zose upfa kuba wifitiye agafaranga kawe.

Inyubako ngari kandi ndende igeretse gatandatu, irimo intebe zigiye zinyuranye mu buryo bugezweho, ku buryo zimwe na zimwe zitondetse ku buryo bw'uruziga, iyo witegereje neza uhita ubona ko ari hoteli.

Amasoko menshi usanga yubakiye ariko iriryo biragaragara ko rikiri mu buryo bwa kera. Iyo imvura iguye abacuruzi barwana no kwandura ibicuruzwa byabo izuba ryaba ryinshi nabwo bakarwana no kubitwikira.

Agasoko gato cyane kazwi nko kuri nyirandaburaye karimo abagore, abagabo ndetse n'inkumi. Biragaragara ko abagore n'inkumi ari bo benshi cyane, aho bari guhaha imyenda yo kwambara mu gihe abagabo barimo bari kuhaca bitambukira.

Mu isoko ritari ryiza bitewe n'aho riherereye, harimo inyubako ebyiri zonyine abandi imyaka yabo yanitse hanze bategereje abaguzi. Iyo imvura iguye biba ari ibibazo bikomeye cyane.

Umugore wunamye ari gutunganya imyumbati yinuye ashaka ko izavamo ubugari bwiza, hirya ye hari abasore babiri, inyuma yabo hakana, iruhande rwabo kandi hari amagare asa naho ariyo yaje yikoreye iyi myumbati.

Isoko rigari ricururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, higanjemo cyane ibiribwa birimo imboga n'imbuto. Aha ngaha hagaragara imiteja, karoti ndetse hagaragara n'abantu baje kubigura ku bwinshi.

Mu rwego rwo kugira ngo amaresitora ndetse n'amahoteli abashe kubona abakiriya ni uko aba ahorana ibiryo bihoraho, rimwe na rimwe abakiriya babasaba kubagezareza aho batuye bakabikora nta kwiganda.

Amahoteli, amaresitora ndetse n'amabare usanga akenshi na kenshi baba bafite serivisi z'imparakubiri, hari ubwo ugenda bakakwarurira ibiryo ugafungura wasoza ukagenda ariko niyo ubishaka babikuzanira aho uri.

icyumba kinini cyane kigaragara nk'aho ari gishobora kwakira abantu benshi muburyo butandukanye, yaba abafite ubukwe, abafite ibindi birori nko gusaba ndetse no gusura inshuti zabo, ni resitora nini cyane yakwakira abantu basaga igihumbi na magana atanu.

Icyumba kigari cyateguwe nk'icyo kuberamo inama, intebe ziteye mu buryo butandukanye, aho abagenerwabikorwa bagomba kwicara ndetse n'aho abaza kubaha imbwirwaruhame baza kwicara haratandukanye, aho abayitegura ndetse n'abayobora inama bari bwicare, hariho ameza ahagaze ku maguru y'imikara.

Imbere y'inyubako yanditseho Banki ya Kigali harimo umugabo wambaye agapfukamuwa k'umutuku, bigaragara ko aha hari mu gihe cya Kovide cumi n'icyenda, yari mu modoka yitwaye wenyine kubera ko gutwara imodoka harimo abagenzi benshi bitari byemewe.

Abashoferi batwara moto bazwi ku izina ry'umumotari ntibashobora gutwara moto bambaye nabi kuko nta bagenzi babona, uyu turi kureba aha yambaye ipantaro y'umweru, agapira k'umukara ndetse na kasike y'umutuku, umugenzi atwaye na we yishimiye kumutega.

Umumotari ari kugenda wenyine mu muhanda nta mugenzi afite, gusa biragaragara ko ahetse gaze irimo ubusa agiye kuvomesha kugira ngo abo mu rugo babone icyo bajya bakekaho.

Abamotari babiri bashoreranye, buri umwe afite moto ye icyo bahuriyeho ni uko bafite moto zifite amapine ajya kuba umutuku, ikindi bombi bakaba bambaye kasike. Bari kugenda mu muhanda, buri wese yubahize amategeko awugenga.

Umumotari utwaye moto isa n'umukara ku mapine, akaba atwikirije utuntu tw'umutuku yambaye kasike itukura, na jire itukura. Umugenzi atwaye si umunyarwanda, kuko ni umugore w'uruhu rwera.

Mu masaha y'igicamunsi umumotari wambaye kasike y'ubururu ahetse umumama wambaye kasike y'umutuku ndetse uwo mumama akaba yambaye n'ikanzu y'umutuku, biragaragara ko umuhanda nta rujya n'uruza rw'abantutu rurimo kubera ko awurimo wenyine, umumotari ari kugenda yidoga.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Toyota iri mu muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda hari inyubako nyinshi cyane zinyuranye, izisize amarangi y'umweru, umutuku ndetse n'umukara, imwe kandi iriho ikirango cya kampani ishinzwe iby'imikino y'amahirwe Foruti beti.

Umumotari ufite ubwoba bwinshi cyane arasa n'aho atwaye ibiyobyabwenge ariko yamaze kurenga ku bapolisi, niba abijyanye ariko biragoye ko wamwizeza ko aza kurenga ku bandi ari buhure na bo.

Kuri ubu abamotari barahumutse basigaye batwara moto zizwi ku izina rya bajaji kugira babashe kubona amafaranga menshi cyane kubera ko izi ni mbuto ziramba kandi zarakoze igihe kirekire.

Umumotari uri kugenda mu muhanda w'amapave ari kuri mo muto wenyine nta mugenzi afite, yambaye ishati iri mu ikoboyi, yambaye kasike y'umuhondo ndetse moto atwaye icanye ibinyoteri.